Akazu ka MTN gacururizwamo amayinite ndetse n'izindi serivisi zitangwa na MTN gakinguye amadirishya abiri, gafite amabara y'umuhondo, kanditseho amagambo mu mabara atandukanye nk'umukara ndetse n'andi ari mu ibara ry'ubururu.

Umukobwa wicaye mu mutaka ufite ibara ry'umuhondo, urimo amabara y'ubururu, wanditseho n'amagambo mu ibara ry'umukara. Akaba yambaye ijire y'umuhondo, afite imisatsi yi'mikorano, imbere ye hakaba haparitse imodoka y'umweru ya kwasiteri, mu gahanda k'amabuye.

Abantu benshi cyane mu nyubako nziza iboneye ijishosize amarangi y'umweru, bambaye imipira y'imyeru hejuru barimo kwamamaza, bafite icyapa mu ntoki mu ibara ry'umweru, ryanditseho amagamb mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu, avuga ngo akira icya cumi.

Icyumba cyahuriwemo n'abagabo bambaye amakoti harimo wambaye iry'umukara n'undi wambaye iry'ubururu bose bambaye za karuvate n'amashati y'umweru, kikaba kirimo ibishushanyo bigiye bitandukanye mu mabara agiye atandukanye nk'ubururu umweru n'icyatsi hamanitsemo ifoto ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda.

Isoko rigari cyane rinini ryubatse mu buryo buboneye ijisho, risakaje amabati y'ubururu, rikorerwamo n'amakoperative atandukanye, mu bucuruzi bucuruza ibiribwa, ibindi bitandukanye, harimo abantu benshi barimo kugura n'abagurisha.

Inzu nziza cyane iboneye ijisho, isize amarangi y'umweru, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu ruganiriro, hari ameza ateretseho icupa rivamo inzoga isembuye, hakaba andi meza ateretseho radiyo, ifite amabara atandukanye nk'umukara n'umweru.

Bare yubatse mu buryo bwiza cyane buboneye ijisho, imbere yayo ikaba ifite ubusitani burimo utuyira twinshi cyane dusize amarangi y'umukara n'umweru, bukaba burimo indabyo ingeri zitandukanye, ibiti byiza cyane bitanga akayaga aho hantu.

Akabari karimo ibinyobwa bisembuye byinshi cyane by'amabara agiye atandukanye mu macupa maremare amagufi harimo asa umweru, afite ibyapa bisa nk'umutuku, ibisa n'umuhondo, bisa n'umukara, ashushanyijeho ibiti, n'andi agiye atandukanye.

Iyi botike icururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye nka gaze zifashishwa mu guteka, zifite amabara agiye atandukanye nk'umutuku ndetse n'izindi z'umuhondo. Ikaba icuruza n'amagare agendwaho afite amabara y'umweru ndetse n'umukara, n'ibindi bicuruzwa bikenerwa n'abantu mu ngeri zigiye zitandukanye.

Butike ihagazemo umugore icuruza ibintu bigiye bitandukanye nk'amandazi imigati imineke amafu akorwamo ibikoma, ibijerekani, umunzani, hakaba harimo amavuta yo kurya ayo kwisiga ibinyobwa bidasembuye n'ibindi bigiye bitandukanye.

Umupasiteri uhagaze urimo kwigisha imbere ye hari indangururamajwi yambaye ikanzu y'umweru irimo ibara ry'umutuku yiteye agatambaro mu gatuza k'umukara yambaye umusaraba, iruhande rwe hicaye abandi bantu nabo bambaye imyenda y'umweru ndetse n'umutuku hakaba hateguye inyuma ye ibitambaro bisa n'umweru harimo utubara tw'icyatsi.

Kiliziya yubatse neza cyane mu buryo buboneye ijisho, ifite amatafari asa n'umuhondo, isize irangi ry'umuhondo, ifite imiryango migari, irimo kwerekezamo abantu benshi cyane batonze imirongo: abakobwa, abana, abakuru, abakiri batoya, abagabo, abambaye amakoti, abambaye imikenyero n'abandi bagiye batandukanye.

Urusengero rwubatse neza cyane rwubatse ahantu heza ruboneye ijisho rukaba rusakaje amabati asa n'umutuku, hejuru hakaba hariho umusaraba imbere yarwo hari ubusitani bufite ibyatsi byiza cyane bitoshye byabonye imvura, harimo ibiti by'imikindo bya kera cyane ubona ko atari ibya vuba.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo buboneye ijisho igeretse gatatu, ya hoteri isize amarange yumweru, ifite amabati y'umutuku, imbere yayo hakaba hari akabuga keza ko guparikamo, harimo imodoka ifite ibara ry'umweru, amapine y'umukara n'amaringi y'mweru.

Hoteri nziza cyane, yubatse ahantu heza cyane iboneye ijisho isize amarangi y'umuhondo yisakaje amabati asa ni'icyatsi, imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi byiza cyane bitoshye, hakaba hari na parikingi iparitsemo imodoka z'amoko agiye atandukanye izifite amabara y'umweru ndetse n'izindi zifite amabara y'umukara.

Hoteli zubatse neza, ziri ahantu heza, zisize amarangi y'umuhondo n'izindi ziziza y'umweru zigeretse kabiri ndetse n'igeretse gatatu, imbere hakaba hari ubusitani buzigira nziza cyane, hakaba harimo n'utuyira twerekeza muri izo hoteli.

Inzu nziza cyane yubatse neza mu buryo buboneye ijisho. Imbere muri salo hakaba harimo irangi ry'umweru amarido y'umweru. Ikaba iteguyemo ibikoresho byinshi cyane byifashishwa muri salo byiza. Harimo: intebe, ameza, intebe zisa nk'umutuku, ameza ateguyeho ururabo rusa neza. Rufite amabara y'umweru ndetse n'icyatsi.

Icyumba cyifashishwa mu bwiherero kirimo amakaro y'umweru ku nkuta, gifite inzugi zisize verine n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'icyo bihereramo, icyo bafashisha bakaraba mu gihe basoje ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Iyi hoteli nziza cyane ibereye ijisho, yakwifuzwa na buri wese kuba yayisohokeramo, irimo umugabo wambaye ijile, y'umukara ishati y'umweru, ufite ikirahure kirimo inzoga mu ntoki giteretse ku meza, akaba arimo kukanywa.

Hotel nziza cyane yubatse mu buryo buboneye ijisho, ikaba inzu igeretse inshuro irenze imwe, imbere yayo hari pisine bogeramo, hakaba hari udutebe twiza cyane n'umutaka abavuye mu mazi bicaramo, ndetse n'utundi dutebe bashobora kwiyakiriramo dufite ibara ry'umukara.

Inzu nziza cyane iteguye neza n'ibikoresho bigiye bitandukanye byo muri salo, ifite amarangi y'umweru, amarido asa n'ibihogo, ibirahuri bibo bibonerana byiza cyane, ikaba iteguyemo intebe zifite amabara y'umukara, ameza afite amabara y'ibihogo ateguyeho ururabyo rw'umuhondo n'utundi dutebe tw'amabara atandukanye.

Inyubako nini cyane igeretse, isize amarangi y'umuhondo, ifite amagambo yanditseho mu ibara ry'ubururu, imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo umukindo, hirya ku ruhande na ho hakaba hari indi nyubako, na yo yubatse mu buryo buboneye ijisho, na yo isize amarangi y'umuhondo.

Isoko ryahuriwemo n'abantu benshi cyane ricuruza ibiribwa, harimo abagura, abagurisha bambaye imyenda itukura, abandi bambaye imyenda y'umukara, iy'umweru, abakenye ibitenge, abambaye ingofero n'abandi b'ingeri z'igiye zitandukanye.

Umuhanda uri mu isoko hagati, urimo moto yicayeho umumotari wambaye bote kasiki y'icyatsi n'indi iri hagati mu mahembe yayo isa nk'icyatsi, ku ruhande rwe hakaba hari isoko ririmo ibyatsi byinshi rimanitsemo amapantaro menshi agurishwa, ku ruhande rwe hakaba hari umugore na we urimo kwerekeza muri iryo soko.

Kaburimbo ngari irimo moto, iriho abantu babiri, uyitwaye yambaye ipantaro y'umweru, ishati ya karokaro, kasike y'umukara, umugenzi atwaye akaba yambaye kasike y'umutuku, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara. Ku ruhande mu kayira k'abagenzi, hakaba hari abagore babiri nabo bari kugendo, hepfo y'iyo kaburimbo hakaba ubusitani burimo ibiti by'amoko ye atandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo abantu babiri batwaye amagare, umwe w'imbere akaba atwaje ukuboko kumwe afite telefone mu ntoki ahetse agafuka k'umweru yambaye inkweto z'umutuku zifunguye, ipantaro yumukara irimo akantu k'umweru hejuru naho yambaye umupira wumukara urimo umweru mukeya, inyuma ye hakaba hari undi utwaye igare nawe wambaye inkweto z'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo mugari cyane mwiza uboneye ijisho, urimo umumotari utwaye moto wambaye kasike y'umukara, indi ayitwaye mu mahembe, akaba ageze hagati mu mirongo icagaguye aho abanyamaguru bambukira.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibinyabiziga bitandukanye nk'amagare abiri atwawe n'abasaza harimo umwe w'imbere wambaye ishati y'umweru n'ingofero y'umukara, ipantaro y'umukara, inyuma ye hakaba hari undi nawe wambaye ishati ya makarokaro, ingofero y'umukara n'ipantaro y'umukara, umumotari w'imbere yabo akaba yitwaye wenyine nta mugenzi ahetse, inyuma yabo hakaba undi mumotari uhetse umugenzi.

Abamotari benshi bicaye kuri moto zabo bategereje abagenzi, hakaba harimo umwe wamubonye wambaye ijire y'umutuku, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara ndetse n'ikote ry'umukara, umugenzi akaba yambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ku ruhande hakaba hahagaze umugabo wambaye umutuku hejuru, ubururu hasi na kamambiri zisa n'umukara.